Abagabo babiri bambaye imipira y'umweru, umwe yambaye ipantaro y'ikoboyi undi yambaye ipantaro y'umukara, undi mugabo wambaye umupira utukura afite icupa ry'amazi mu ntoki, yambaye n'isaha ku kuboko, ku ruhande hari igikarito kirekire kinini.

Imodoka eshanu ziri kugenda mu muhanda ebyiri z'umweru n'izindi ebyiri z'umukara, hari amatara yo ku muhanda, hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu hariho umusaza n'umukecuru, hari jaride ziteye ku muhanda. hakurya hari inzu ndende igeretse nini.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, imbere yaho hari mashine. Atunzeho agatoki birasa nkaho ari gusobanurira undi mugabo wambaye ishati y'umweru n'ikote ry'ubururu. Inyuma yaho hari inzu igeretse bisa naho ari iy'ubucuruzi.

Ahacuruzwa imyenda hari umugabo wambaye umupira w'umweru, yambaye isaha ku kuboko, afite akamashini mu ntoki gatanga fagiture, imbere ye ku meza hateretse imashini ya kompiyuta, hari n'indi myenda itetse ku ruhande, hari umugore ufite emvelope mu ntoki birasa nk'aho bari kumuha fagitire.

Aho bacururiza imyambaro igiye itandukanye, harimo amashati, imipira, inkweto amasakoshi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ku ruhande hari akayitajeri harimo n'ibindi bicuruzwa.

Aho bakorera ibintu by'imbaho bitandukanye harimo ututanda tw'abana, aho banika imyenda amataburo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, hirya mu kabati harimo ibiseke n'indi mitako myinshi.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umweru hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, n'undi wambaye ishati y'umukara bafashe icyapa cy'umweru mu ntoki, undi afite akamverope k'umuhondo mu ntoki hasi hateretse akamverope gatukura.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Hari imodoka ebyiri ziparitse, hari abagabo babiri umwe wambaye ikote n'undi wambaye ishati iri mu ibara ry'umukara, bafashe icyapa cy'umweru cyanditseho Akagera moto, inyuma hari inzu igeretse hari n'indi modoka y'igikamyo nini.

Icyupa cy'umweru gihagaze, cyanditseho toyota, kuruhande hari inzu igeretse, irimo irange ry'umweru, hejuru hari icyapa cyanditseho toyota, hari umusekirite uri ku gipangu, hari imodoka y'umweru iparitsemo imbere harimo utundi twapa turi inyuma.

Birasa nkawo habere inama, umugabo wambaye umupira utukura birasa nkaho ariwe uyoboye iyo nama, imbere ye ku meza hateretse ajenda, afite n'ikaramu mu ntoki, ku ruhande hari umugore ufite ikaramu mu ntoki n'ajenda, nawe ari kwandika n'undi mugabo umuteze amatwi bose bafite ajenda mu ntoki.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umweru hari abagabo babiri bahagaze imbere, umwe yambaye ishati ya karo karo n'ipantaro y'ikoboyi, undi yambaye umupira utukura. Bafite icyapa cy'umweru mu ntoki cyanditseho akagera moto.

Imodoka nyinshi z'umweru ziparitse, hari igikuta cy'amatafari ahiye, hari ibiti birebire binini biri kuhande, hari n'indi nzu igeretse. Hakurya hariyo amatara ku muhanda.

Ibyapa bitatu bihagaze bibiri by'ubururu n'ikindi kimwe cy'umweru, hari umugabo uri kugenda n'amaguru, hari amapoto y'amashanyarazi, hari imodoka enye ziparitse, eshatu z'umweru n'indi muri y'umuhondo, hakurya hari amazu bigaragara nkaho ari ay'ubucuruzi.

Imodoka y'igikamyo nini iri mu ibara ry'umweru hari abagabo babiri bahagaze bayambaye umupira w'uburu niipantaro i poboye ndiyambaye umupira utukura a afiteti ikayi mu ntoki bafashe ku cyapa cyanditseho akagera muto kiri mw'ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye ishati y'ubururu undi yambaye umupira w'umukara, umwe afite akamviripo gatukura mu ntoki, bafashe ku cyapa cy'umweru cyanditseho Akagera Moto, iruhande rwabo haparitse imodoka y'umukara hakurya haparitse n'izindi modoka.

Abagabo batatu bahagaze, babiri bambaye ingove zabavoroteri, undi yambaye igisarubeti cy'ubururu, afite akamvirope gatukura mu ntoki, bafite icyapa mu ntoki cy'umweru, cyanditseho Akagera moto, inyuma yabo hari igikamyo kinini, kiri mu ibara ry'umweru.

Biragaragara ko ari muri banki umuntu wambaye ishati ya sharokara afite telefoni mu ntoki bisa nkaho hari ibyo ari kureba, imbere hari akamashini kabamo amafaranga n'icupa ry'amazi. Hari n'undi wambaye ikoti ry'umukara n'abafite telefone mu ntoki.

Biragaragara nko muri banke umugore wambaye ikanzu y'umweru birasa naho ari kuvugisha umuntu uri imbere, n'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara nawe ari kuvugisha undi muntu. Inyuma hari umugabo wambaye ishati ya karokaro birasa naho ategereje.

Birasa nk'aho ari abatangirwa serivisi za banki, hari umugabo wambaye ishati irimo ubururu n'umweru, yambaye ipantaro y'umukara; imbere harimo umugore ufite imisatsi miremire yambaye n'ikote ry'umukara; birasa n'aho ari kumuha serivisi, n'undi wambaye ishati ya karokaro, imbere hari ufite imisatsi miremire, imbere ye hari mashine.

Aho bacururiza amata, hari icyuma kibikwamo amata, hari akabogisi karimo sereviyete, hari indobo irimo amandazi, ku ruhande hari intebe y'umweru, hari n'irido iri mu ibara ry'ubururu, hari igikuta cy'amatafari ahiye,

Aho bacururiza amata hari icyapa kinini kigaragaza uko bacuruza amata. Hari moto iparitse ku ruhande, hari kandagira ukarabe, hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo wa MTN, izo nyubako zisize amarange y'umweru. Inyuma hariyo n'izindi nyubako.

Aho bacururiza amata hari icyuma kibikwamo amata, hari firigo, hari umugabo wambaye umupira w'umukara uhahagaze hari n'umukobwa wambaye agakoti k'ikoboyi wicaye, inyuma muri etageri harimo amacupa y'amazi ndetse n'amacupa ya ji,

Aho bacururiza amata, indobo y'amandazi iteretse ku meza, seliviyeti, hari icyuma kibikwamo amata, hari intebe z'umweru n'ameza y'umweru, hakurya ya hari contwari, irimo amajerekani n'uducupa tw'amazi.

Indobo ebyiri ziteretse kuri kontwari, imwe irimo capati iyindi irimo amandazi, imbere muri etajeri i harimo amata y'Inyange, ji y'Inyange n'amazi ya Nili, hari n'agafanta gateretse ku ruhande, hari n'udukarito tubiri.

Aho bacururiza amata, icyuma kibikwamo amata, hari firigo, hari umugore wambaye ipantaro y'ikoboyi n'agakote k'ikoboyi, hari indobo y'amandazi iteretse kuri kotwari n'indobo ya keke, hejuru muri etageri harimo utubido, ijerekani n'utubito dutoya. Hari n'ameza n'intebe z'umweru.

Aho bacururiza amata hari ibirahure bibiri birimo amata biteretse ku meza n'akajerekani gateretse ku meza, hari intebe y'umweru, hari kontwari imbere hateretsemo ijage, hari na firigo ku ruhande.

Aho bacururiza amata hari icyuma kibikwamo amata cyanditseho inyange miliki indasitiri, ku ruhande hari ameza hejuru hateretse airkabokisi, hirya hari intebe yegamirwa hari na firigo.

Bacuruzije ibintu bigiye bitandukanye, harimo imineke, amandazi, amaji, amafanta amazi yo kunywa, inaji, hari umumama wambaye ikanzu yuburu, afite isakoshi ku rutugu, yiteze n' igitambaro, birasa naho bagiye kumuha serevisi.

Aho bacururiza amata, hari icyuma kibikwamo amata, hari firigo, hari agatajeri babikamo ibikoresho, hari intebe y'ubururu, hari n'indi ntebe y'umweru. Hari umugabo wambaye ishati ya karokaro bisa naho ari kugenda, ku ruhande hari ibindi bicuruzwa.

Aho bacururiza amata hari icyuma kimo amata, hari n'indobo iteretse hasi, hari ijage iteretse hejuru, hari ameza y'umweru harimo amakararo y'umweru ku ruhande hari n'ibikuta bisize irangi ry'ubururu.

Aho bacururiza amata, icyuma kibikwamo amata hasi hateretse injerekani y'umweru irimo akabirikira k'ubururu ku ruhande hari umwana uhagaze n'undi mugabo uhagaze afite agacupa mu ntoki na terefone, akajerekani karimo amata gateretse hejuru kuri kontwari hakurya hari umukobwa uhahagaze.

Aho bacururiza amata hari mu ibara ry'ubururu hari ibyapa biri mu nzugi byanditseho inyange, imbere hari etajeri iri mu ibara ry'ubururu n'umweru, hari ameza ari mu ibara ry'ubururu, hari firigo hanze hari kandagira ukarabe.

Imodoka eshatu ziparitse ebyiri z'umweru n'indi imwe y'umukara. Umukobwa wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma hariyo inzu z'ubucuruzi, inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, inzu ikorerwamo n'ubucuruzi bw'amata. Hakurya hari umugabo uhahagaze wambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umweru.

Hari igare riparitse na mato iparitse iteretseho igicuba n'akajerekani kumweru. Hari urujya n'uruza rw'abantu hakuryaya motari hari ibiti biteye hakurya y'umuhanda hari n'inyubako ku ruhande.

Ahacururizwa amata hateriretse amacupa menshi y'amazi, hari icyapa cya MTN kode, hari umusore wambaye isengeri y'umweru, afite amvirope mu ntoki, ku ruhande hahagaze utwana tubiri, hari umugore uri imbere muri Kontwari, hari n'akajerikani karimo amata, gateretse kuri etajeri.

Umugabo wambaye ishati yubururu yambaye baje mu ijosi n'isaha ku kuboko, afite amafaranga y'inote za bitanu mu maboko yombi, hari suri ku meza, hari indangamuntu, hari na fimbo, hari na fagitire y'agapapuro.

Inzu igeretse iri mu ibara ry'ubururu, hasi ku muryango wa mbere hari icyapa birasa naho hakorerwa ubucuruzi, hari imodoka nyinshi ziparitse, ku ruhande hari izindi nyubako, hari n'akapa gatoya kari mu ibara ry'ubururu, hari insinga z'amashanyarazi.

Inzu igeretse gatatu, hanze haparitse imodoka y'umutuku, hari ibyapa biri mu ibara by'ubururu byanditseho "Equity", hejuru hari ibindi byapa byinshi n'abandi bantu, bisa n'aho hakorerwa ubucuruzi.

Imodoka nyinshi ziparitse, eshatu z'umweru, n'indi y'umukara, amatara yo ku kumuhanda, inzu igeretse iri mu ibara ry'umweru, hari ibyapa biri ku muhanda birimo umwe n'umutuku, hari n'ibiti biteye ku ruhande.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro arimo kugenda mu muhanda, hari n'undi uri kwiruka wambaye ikote ry'umweru, hari undi mugabo uri inyuma ari kugenda yambaye umupira w'umweru, hari inzu iririmo ibara ry'ubururu yanditseho radiyati, hari n'amatara yo ku muhanda.

Inzu igeretse iriho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, isa nkaho ikorerwamo ubucuruzi, umuhanda urimo amatara yo ku muhanda, moto ziri gutambuka, icyapa cyo muhanda kiririmo ishusho y'uruziga n'urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda n'amaguru.

Inzu igeretse iriho ibyapa bigaragaza nk'aho ari iy'ubucuruzi, hariho icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu, kiri no mu madirishya, hari n'ikindi kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku, hari umuryango ukinguye, hejuru hariho n'ibindi byapa.

Umugore wambaye ishati y'icyatsi imbere yateretse imashini inyuma yaho ikipa kinini gishushanyijeho umuntuntu kumeza yateretseho icyapa cya mtn clade hari umugabo wambaye umupira wumukara nipantaro yumukara bisa naho haribyo baganira.

Birasa naho habereye inama hari abagabo batatu bicaye buri muntu iruhande hagiye hateretse icupa ry'amazi, umwe imbere ye hateretse ranjete, inyuma hari ibyapa birimo amabara y'ubururu bari kureba imbere barasa naho hari uwo bakurikiye.

Birasa naho ari muri banki abagabo babiri bahagaze imbere y'ibirahure, umwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ikote, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, yambaye n'ingofero, birasa naho bari guhabwa serivisi.

Hari abantu benshi hari umugore wambaye umupira wumukara ari kurambura ikayi birasa nkaho ari ibyo kurebamo kuruhande hari nundi mugabo nawe wambaye ishati yumweru afite igikayi kinini. Hari abandi bantu benshi bicaye kuruhande rwo hepfo birasa naho hagiyemo kubera inama.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umweru afite ikaramu mu ntoki n'urupapuro ari kwandika imbere y'ibirahuri harimo umu umugore wambaye umupira w'umweru n'ikoti ry'umukara ari barara amafaranga mu ntoki.

Isoko ricuruzwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, inyanya, intoryi, karoti, pavuro, imiteja, ibishyimbo, ibitunguru n'ibindi byinshi bitandukanye, hari abantu bicaye, birasa naho barimo baracuruza.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu isoko, hari imashini z'abatayeri, hari amabase ateretse hasi, hari imyenda iri gucuruzwa igiye imanitse ku mpande, hari icyapa cy'umuhondo cya MTN, hari n'abantu bari gucuruza.

Soko ry'ibiribwa, inyanya, amashu, ibitunguru, karoti, hari urujya n'uruza rw'abantu bisa n'aho baje guhaha, haruguru hariyo inyubako.

Hasa naho ari mu isoko, hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, hari inzu igeretse iriho ibyapa igaragara nkaho ari iy'ubucuruzi, hari insinga z'amashanyarazi, hari na tarasifo iri hakurya y'inzu.

Isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo imineke, ibishyimbo n'ibindi bintu byinshi, hakurya hari urujya n'uruza rw'abantu hari amagare abiri aparitse, hari isoko ry'imyenda n'isoko ry'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, hari abagore bicaye bigaragara nkaho ari bo bari gucuruza, hari imboga, hari inyanya, hari intoryi, hari kokombure, hari ibitunguru na karoti n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, karoti, intoryi, pavuro, urusenda, beterave, tungurusumu na tangawizi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ahacururizwa ibijyanye n'imbuto bigiye bitandukanye. Amatunda, amaronji, inanasi, ibinyomoro, imyembe, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hari umumama birasa n'aho ariwe uri kubicuruza.

Isoko ry'imbuto ririmo imbuto nyinshi zitandukanye imyembe, imineke amatunda ibinyomoro, amaronji, inanasi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, hari urujya n'uruza rw'abantu muri iryo soko.

Ahacururizwa imyambaro itandukanye ibisarobeti, amashati, imipira hari n'imashini zidoda, hari umukobwa wambaye umupira w'umweru wicaye ku mashini, hari n'umugabo wambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umweru ufite telefone mu ntoki.

Imodoka nyinshi ziparitse, hari inyubako ziri ku ruhande, hari abantu bari kugenda n'amaguru, hari n'izindi imodoka z'umweru ziri kumanuka ku ruhande. Hari amatara yo ku muhanda, hari n'ibiti birebire binini biri hakurya y'umuhanda.

Ahacururizwa ibintu bitandukanye bya gakondo hari imitako, inkoko, ibitenge uduseke n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, hari urujya n'uruza muri iryo soko bisa nk'aho baje guhaha.

Aho bacururiza imyenda igiye, itandukaniye amakanzu, imipira, imyenda y'abana n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye hari umugore wambaye ikanzu y'igitenge yambaye n'agakote k'umukara yicaye iruhande rwayo birasa n'aho ari gucuruza ku rundi ruhande hari n'undi mugore uhicaye.

Ahacururizwa imbuto n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, umukobwa wambaye umupira utukura, afite agasashi k'umukara ari guhereza undi mugabo wambaye ishati y'umukara, ku ruhande hari undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo, hari n'undi mukobwa umuhagaze iruhande.

Birasa naho ariho imodoka ziparika, hari imodoka nyinshi z'ubwoko bugiye bitandukanye harimo ibimoto binini, hari n'abamotari batoya. Hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, hari inyubako zigeretse ku ruhande bisa naho ari iz'ubucuruzi n'izindi nyinshi.

Hari urujya n'uruza rw'abantu, hari imyumbati myinshi ishotse hasi birasa naho bari gucuruza. Inyuma hari amazu y'ubucuruzi, hari imodoka y'umweru iparitse ku ruhande, hari n'umumotari uri kugenda. Hakurya hari inyubako.

Aho bacururiza imbuto n'ibindi bigiye bitandukanye, hari amaronji, hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo bisa nkaho ari gucuruza n'undi mugore wambaye umupira utukura, afite akamashini gatanga fagitire mu ntoki, imbere hari umuntu uhahagaze bisa nkaho ari we bagiye fagitire.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyene, imbere harimo umuntu wambaye umupira w'umweru, hari umugabo wambaye ishati y'icyatsi hari n'undi wambaye umupira w'umuhondo hakurya hateye ibiti byinshi.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka MTN, imbere harimo umusore wambaye umupira urimo ibara ry'umweru. Afite ikaramu mu ntoki, n'ikayi ari kwandika. Ku ruhande hateretseho telefone, imbere hari umukobwa birasa n'aho ari kumuha serivise.

Umutaka urimwibara ryumuhondo rya MTN harabantubenshi bahagagaze birasankahohabereye igikorwa cya MTN iruhande Hari umutaka wubururu unyuma harinyubabako yamatafari ahiye Hari nibiti birebire

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo, imbere harimo umugabo wambaye umupira urimo amabara y'umweru, afite ikaye, afite n'ikaramu ari kwandika. Hanze hari umukobwa uhahagaze wambaye ikanzu y'umweru, birasa naho ari guhabwa serivisi. Hakurya yaho hari inzu igeretse.

Hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo rya MTN, hari n'undi mugabo wambaye ijiri y'umuhondo ya MTN. Hari umugabo wambaye ishati ya karokaro arikumuhereza telefoni. Ku ruhande hari abandi bantu barikuganira, hari n'umutaka uri mu ibara ritukura rya Airtel. Hari inyubako iri inyuma yaho.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo, rya MTN imbere harimo umukobwa wambaye umupira w'umweru, hanze hahagaze abagabo babiri bambaye amashati y'umweru, birasa naho bari guhabwa serivisi, ku ruhande hari akandi kazu kari mu ibara ritukura ka AIRTEL, imbere harimo umukobwa ufite imisatsi miremire, afite na telefone mu ntoki.

Akazu kari mu ibara ry'umundo ka emutiyeni hari umugabo wambaye ikanzu n'ingofero y'umweru ahetse igikapo mu mugongo hari n'undi umuhagaze iruhande afite telefone mu ntoki bisa nkaho bategereje guhabwa serivisi.

Akazu kanini karimo ibara ry'umuhondo rya MTN, birasa n'aho habereye igikorwa cya MTN, ku ruhande hari umutaka uri mu ibara ry'ubururu wanditseho tekino, hari amatara yo ku muhanda n'itsinga z'amashanyarazi.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka MTN, imbere harimo umugore wambaye ikanzu y'umukara afite amafaranga mu ntoki imbere ye hari urupapuro rw'umweru, hari n'undi mugabo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara ahagaze ku ruhande bisa n'aho bari kumuha serivisi.

Hari abantu batatu bambaye imipira y'umweru, hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo, hari umugabo wambaye ishati ya karokaro, ku ruhande hari n'undi mutaka, inyuma hari ibiti birebire binini.

Isoko ricuruzwamo ibintu bigiye bitandukanye, karoti, intoryi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, hari icyapa cya MTN kode, hari aka etajeri gateretsemo ibicuruzwa hari n'umumama uhagaze ku ruhande bigaragara ko ari umucuruzi.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kugura amainite, kohereza amafaranga no kuyakira mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri.

Birasa naho habereye igikorwa cya emutiyene. Hari umugore wambaye imyenda y'ibitenge, yambaye baji iriho umuhondo mu ijosi .Hari umugabo ufite telefone mu ntoki ,hari na mikoro z'abanyamakuru .Hari urujya n'uruza rw'abantu.

Umutaka uri mu ibara ry'umuhondo wa MTN, ku ruhande hari icyapa cya MTN hari abagabo babiri bahetse ibikapu mu mugongo bari kugenda, hari undi mugabo wambaye ishati y'icyatsi uri gutambuka ku ruhande, inyuma hari inzu iri mu ibara ry'umweru.

Umukandida wiyamamariza kuba perezida wa repubulika w'ishyaka rya green gurini pate Frank Habineza ari kwiyamamaza abanyamakuru bagenda bamufotora abamwungirije n'abamuherekeje bamugaragiye abaturage bitabiriye inyuma ya senyegi yaho ari bitabiriye baje kumva ibyo abagezaho.

Umugabo wambaye umupira urimo ibara ry'umuhondo wa MTN, ari kuvugana n'undi mugabo wicaye mumodoka, ku rugi rw'iyo modoka hari icyapa cy'umuhondo cya MTN kode, ku ruhande haparitse n'izindi modoka.

Umu motari uri kugendera mu muhanda ahetse umugenzi wambaye ipantaro y'umweru, ishati y'umweru, inyuma hari n'undi mumotari uhetse umugenzi, bambaye kasike z'icyatsi mu mutwe bose. Hakurya y'umuhanda hari ibiti, hari n'inyubako iri haruguru y'umuhanda.

Imodoka nini y'igikamyo yanditseho iposita iri mu ibara ry'umuhondo iparitse, ku ruhande hari abantu bari kugenda n'amaguru, hari n'indi modoka y'umukara iri kugenda, hakurya yateye ibiti birebire binini, hari n'amatara yo muhanda, ku ruhande hari inzu zigeretse.

Moto imwe ibara ry'umukara inyuma y'akabogisi k'icyatsi hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara afite na kasike y'icyatsi mu ntoki, yicaye kuri moto hakurya hari inzu isize irangi ry'umweru hari n'ibiti birebire.

Haracuruzwa ibintu bigiye bitandukanye, hari etajeri irimo ibintu bitandukanye n'ameza ateretse n'ibindi hari umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara isa naho ari byo ari kureba.

Ahacururizwa ibyo kurya n'ibindi bigiye bitandukanye, akayetajeri karimo ibicuruzwa, umugabo wambaye ishati ya karokaro asutamye bisa naho hari ibyo ari kureba, ku ruhande hari undi mugabo wambaye umupira urimo ibara ry'umweru afite akagare ari guhahiramo.

Birasa nk'aho ari ahantu bacururizwa ibintu byinshigiye bitandukanye, umukobwa wambaye agakoti k'ikoboyi, umupira w'umukara, n'ipantaro y'umukara, n'umusore wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'ikoboyi. Inyuma yabo hari umumama uri gutambuka, birasa nk'aho hari ibyo bari kubwira abantu.

Urujya n'uruza mu muhanda imodoka ziri gutambuka hari icyapa cy'umweru kiri hepfo y'umuhanda hari amatara yo mu muhanda, hari inzu nini igeretse hepfo hari indi nzu irimo ibara ry'umweru hari imikindo iteye mu muhanda.

Hameze nkaho habereye igikorwa cya mituweli hari abaturage benshi bafite mituweli, hari abantu bari kwandika abagore babiri n'umugabo umwe umugore umwe afite akamashini abandi bari kwandikisha intoki.

Umugabo yambaye ikote ry'umukara afite ikaramu mu ntoki, ari kwandika mu ikaye. Ku ruhande hari undi mugore wifubitse igitenge ateze n'igitambaro gitukura mu mutwe. Arunamye ari kureba ibyo ari kwandika. Ku meza y'aho bari kwandikira, hari mituweri hari n'izindi mpapuro nyinshi.

yase nk nkaho habere amahugurwa runaka hari abantu benshi bambaye imipira y'umweru n'abandi bambaye imipira y'ubururu imbere hari icyapa cyanditseho rcsb ejo heza hari n'ibindi byapa byanditseho ejo heza inyuma hari abantu benshi bicaye hasi inyuma hari inyubako biragaragara nk nkaho ari ikigo cy'amashuri

Hasa naho habere igikorwa cya Ejo heza, hari abagabo bane bambaye imipira y'umukara, n'undi mugore wambaye ijire y'umuhodo, hari abantu benshi bambaye imipira y'umweru bisa naho hari urubyiruko, bafite ibyapa by'umweru byanditseho Ejo heza, hakurya hari inyubako birasa naho ari ku kigo cy'amashuri.

Ahacururizwa ibiribwa n'ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo: fanta, ji ya embe, ji ya pome, amata y'Inyange na ji y'Inyange, hari n'imigati, hari umugabo uteruye umugati mu ntoki birasa n'aho agiye kuwugura.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu muhanda, hari umumotari uhetse umugenzi, hari umusekirite uhahagaze, hari icyapa hejuru yanditseho Simba, hari inyubako ifite ibirahuri by'umweru, hari n'abantu bari kwinjira muri iyo nyubako.